Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, bari ku kigega cy'amazi, batatu batonze umurongo wabo, n'abandi batatu, imbere yabo hari ikigega cy'umukara, kiri kuzana amazi muri robine, bose bari kunywa mu bikombe.

Icyuma cyubakiye ahantu kizana amazi, umwana waje kuvoma afite indobo y'umweru, yayakozemo ayafite mu kiganza ari kwitegereza areba imbere, inyuma ye hari ibiti birebire, ibyakuze, n'ibyakokotse amababi akazuba karikwaka.

Ihema rinini ryubatse ritatswe n'ibitambaro by'ubururu, n'umuhondo, n'icyatsi, hicayemo abagabo n'abagore ku ntebe z'umweru, hari umugabo ugeretse akaguru ku kandi, yambaye ingofero. Imbere ye haba umukobwa ufite indangururamajwi mu ntoki ze n'igitabo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zegamirwa, imbere yabo hari ameza akoze mu buryo bw'ikizeru ashasheho igitambaro kinini cy'umweru, haturutseho mudasobwa bashyize amaboko yabo ku meza.

Igiti kinini cyane kigandaye, munsi yacyo hari umugore wunamye, ahetse umwana, yapfundikiye imbere mu gatuza, ari koza umupfundikizo w'umutuku, ikidobo cy'umuhondo ari kogerezamo, hirya ye hari ikindi cy'umutuku n'umugezi utari kuzana amazi.

Inzu zubakishije amatafari ahiye, inzugi zayo zisize irangi ry'ubururu, mu mbuga hateyemo ubusitani butarakura, ahashashe amabuye y'umweru n'amatafari arunze atubakishijwe hazengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma, umuntu uhagaze mu mbuga.

Abana benshi b'abanyeshuri bugamye ku nyubako ya robine bareba imbere n'abandi bareba hasi, umwe muri bo ari kuvomera amazi mu kiganza areba imbere, inyuma yabo hari ishyamba rya kimeza ryakuze.

umwambaro w'abaganga wiganjemo ubururu mu mutwe bambaye utugofero tw'umweru n'udupfukamuwa imbere y'umwe muri bo hari umugabo wasanye cyane umuganga ari kumukoza akantu mu kanwa yambaye n'ibimurinda ku ntoki

Inzu yubakishije amabuye, hejuru yaho hasize irangi, mu mpande zayo hari agapangu gasize irangi ry'umutuku, abagabo n'abagore bateraniye ahantu benshi bahagaze, harimo abahetse abana, ihema rihubatse.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri hejuru ari umuhondo bambaye inkweto z'umweru, umukobwa umwe ari gukaraba kuri kandagira ukarabe, hirya ye hari igiti kinini cyane kidaye gifite amashami menshi n'andi mazu ahubatse.

Umwana bari koza mu ibase, nyina amushyizeho ibiganza mu mutwe, hirya hari umwana uri kuvoma kuri robine isize irange ry'ubururu, umwana uhobeye umukobwa ufite indobo mu ntoki, inyuma ye hari injerekani ihateretse.

Umugore wambaye igitenge atari umwana mu gatuza ke, amujishije mu bitugu, yamwambitse aka ingofero k'umukara, ari guseka areba imbere, afashe kuri robine itari kuzana amazi, indobe ihateretse y'umukara, inyuma ye hari inzu y'ibyatsi, n'ibiti bikuze.

Robine yubatse neza isize sima ifite ibyuma bibiri bisohora amazi muri yo, abantu babiri bari kuvoma umugabo n'umugore batezeho ijerekani isa n'umuhondo, hirya yabo hari ibiti birebire bikuze ishyamba rya kimeza.

Abantu benshi bari ku mugezi munini wubakiye, mu mande zawo ugizwe na mavomero menshi. Abantu biganjemo abagore n' abana baje kuvoma bitwaje indobo iz' umuhondo, iz' umweru n' mugabo wunamye uri gufungura wambaye ingofero mu mutwe.

Abana benshi bahuriye ku migezi myinshi yubatse kimwe, bari kuvoma mu ndobo z'umuhondo harimo undi na we uri gukaraba intoki, inyuma yabo hari inzu ihubatse isakajejwe ibibati by'umweru iteye umucanga w'umweru n'ibiti byakuze.

Abantu babiri bahagaze, umugore n'umugabo, afite ishusho ishushanyijeho abana babiri, umukobwa n'umuhungu, inyuma yabo hari inzu yubakishe amabuye, isize irangi ry'umuhondo, ifite idirishya ry'ibyuma.

Abanyeshuri benshi baje kuvoma, hari imigezi myinshi iri kuzana amazi, abakobwa n'abahungu bafite ubujerekani n'indobo ziteretse ziri kujyamo amazi, harimo umwe uri kuyakarabiramo, ayo ari kuvoma.

Isoko yubakiye ahantu harimo igihombo kirekire giturukamo amazi meza y'urubogobogo, umuntu wambaye ishati y'ubururu yazamuye amaboko ye ayazana muri ya mazi arimo arakaraba amazi y'urubogobogo.

Abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe bareba imbere bishimye, abahungu bambaye kaki, abakobwa ni ubururu, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho n'ingwa y'umweru, imeza ibari imbere iteretseho ibyoku kurya birimo ikiyiko, harimo n'ibishyimbo, n'akawunga.

Abantu benshi b'ababyeyi bateraniye ahantu mu nzu, abambaye amakanzu, amapantaro, hirya yaho hari abandi basore babiri bahagaze, abana benshi bateraniye ahantu hamwe bambaye impuzankano bari imbere y'ababyeyi babo.

Umuhanda munini w'igitaka, amazu ashoreranye ku murongo yubatse impande zawo, ibiti bikuze birebire, umugore ufite umwana uhagaze imbere ye, ateze igitambaro cy'umweru mu mutwe, abana benshi bari kuvoma amazi.

Abantu benshi biganjemo abana bahuriye ku mugezi, bafite ibivomesho bitandukanye indobo, amajerekani manini, utubido dutoya, umugabo uri kubafungurira wambaye umupira w'umweru, hirya yabo hari ibiti bikuze birebire

Abantu bateraniye ahantu hamwe ari benshi, ihema ryubatse rifite ibitambaro by'umweru n'ubururu n'umuhondo n'cyatsi, bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Agatanda kari ahantu mu mbuga, kubakishije ibiti, kubitseho amasahani ay'umweru, isorori y'ubururu n'agakombe k'umutuku, hirya yaho hari uruzitiro rw'imiyenzi n'insina zihateye muri iyo mbuga.

Amazi menshi y'ikiyaga adendeje mu nkombe zayo hari umucanga, hirya hari ibyatsi, umuntu uri kuvoma w'umugore wambaye agapira k'umuhondo n'injerekani afite, ari kudubikamo, uri koza igare yambaye inkweto z'umweru zo gukorana n'ikabutura y'umukara.

Umwana uri ku mugezi wubakiye w'icyuma imbere ye hateretse ikidobo, ari gukaraba intoki yitegereza imbere ye, yambaye agashati k'icyatsi agakabutura k'umukara, inyuma ye hari ishyamba rya kimeza rihateye rikoze.

Abantu bane bicaye mu biro, abagore hagati abagabo mu mpande, imbere yabo hari ameza maremare ashasheho igitambaro cy'umukara, ateretseho mudasobwa, umugabo arambuye amaboko ye ku meza hateretseho uducapa turimo umuti wica udukoko.

Abagore bicaye ahantu hamwe harimo umuganga wambaye umwenda w'umweru, imbere ye hari abagore batatu, harimo umwe warambuye akaboko yakamuhereje yamushyizeho igipimo gipima umuvuduko, bateze ibitambaro mu mutwe bose.

Abana benshi bateraniye ahantu harimo ubumbye iminwa n'undi uri guseka yishimye, bambaye imyenda y'impuzankano abenshi bahuriye kw'ibara ry'umuhondo n'abandi bambaye umutuku utuntu mutwe, bizengurukijemo nundi ugafite mu ntoki.

Umwana uri kumwe na nyina amuteruye yambaye agapira karimo umurongo n'umweru inyuma hari inzu ndende yubatse ifite amadirishya y'ibyuma yubakishije amatafari ahiye hagati muri yo hagiye harimo sima isizemo.

Abantu babiri bicaye ahantu hamwe, amaguru yabo arebana, umwe arihebye, ashyize akaboko ku itama, ingofero mu mutwe, undi na we ari kumuhumuriza, amwitegereza mu maso, yambaye amataratara mu maso ye.

Abantu benshi bateraniye mu nzu ifite irangi ry'umweru umwe imbere abakobwa n'abasore bahagaze, imbere yabo hari ameza maremare manini, asize irangi ry'umuhondo imwe muri zo iriho ibitabo n'impapuro.

Umugabo n'umugore bicaye mu biro imbere yabo hari ameza maremare, umugore afite indangururamajwi mu ntoki yambaye ishati y'ubururu imisatsi miremire amacupa y'amazi ateretse ku meza hirya ya ha umugabo wambaye agakoti n'ishati n'agapfukamunwa.

Inzu yubatse neza iri kwakamo amatara, mo imbere hicayemo abantu benshi, higanjemo abagabo n'abagore, abahagaze n'abicaye, abambaye imyenda y'umutuku, n'iy'umuhondo, iy'ubururu, n'iy'umukara.

Abantu benshi bicaye mu nzu ku ntebe z'umutuku, umwe muri bo afite indangururamajwi, umugabo wifashe amaboko ayasobekeranyije, imbere yabo hari ameza maremare ateretseho mudasobwa, ashasheho igitambaro cy'umweru n'icupa ry'amazi ripfundikiye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe barundanyije abahagaze n'abaciye bugufi imbere yabo, hari ameza maremare ahari hariho agacupa k'amazi gapfundikiye umugabo wambaye amataratara arambitseho akaboko areba imbere.

Inzu y'ibiti, imbere yaho hari abagore babiri bahicaye, uteruye mwana yambaye ingofero mutwe y'indodeshanyo, ari kwitegereza akantu mugenzi we ari kumwereka wambaye umupira w'umweru, ku bibero bye hari ibitabo biharambitse.

Mu mwambaro wiganjemo ibara ry'umuhondo n'ubururu, umugore wambaye amataratara mu maso n'imisatsi myinshi, afite agapapuro ari kukerekana kanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara n'iz'umweru n'ikirangantego cy'urumuri.

Ubuvuzi bw'amenyo, umuganga wambaye impuzankano n'agapfukamunwa, yitegereza umurwayi uri imbere ye ufite ikibazo cy'amenyo, yasamye amufashe mu mutwe n'akantu ari gukoza mu kanwa yamwasamitse.

Ubuvuzi bw'amenyo umuntu ugaramye yasamye, imbere ye hari abaganga babiri bambaye impuzankano, umwe yambaye iy'ubururu undi yambaye iy'umweru ufite agapimisho mu ntoki ze amwasamitse agakozamo bambaye agapfukamunwa ku minwa yabo.

Inyubako y'ishuri irimo ikibaho cyanditseho n'intebe, abarimu bahagaze bambaye impuzankano n'undi muntu wambaye ikoti w'umugabo afashe ahuje amaboko, umwana ufite igishushanyo cy'amenyo bari kumwereka uburyo bayoza.

Umwana mutoya mu mwambaro w'ubururu werurutse, afite uburoso bufite ibara ry'umuhondo n'ubururu, abufashe mu ntoki ziwe, ari kumwenyura, abishyize ku munwa areba imbere.

Umugabo munini wambaye ubusa afite urudodo rw'umweru mu ntoki ze rukomeye, agenda arucisha hagati y'amenyo akuramo imyanda ari guseka, ururimi rugaragara areba imbere ye yishimye.

Igiti kinini cyane kigandaye, mu gicucu cyacyo hicayemo abantu benshi b'urubyiruko, abagabo n'abagore, abicaye ku ntebe z'umweru n'iz'ibiti, abicaye ku mabuye imbere ya hari umuntu ufite mudasobwa, inyuma yabo hari inzu zubakishije amatafari y'ibitaka.

Abantu babiri bicaye, umusaza n'umukecuru bafite urupapuro mu ntoki barwitegereza, imbere yabo hari ameza maremare manini barambitseho ibiganza, umugabo arambuye ukuboko ukundi akugeretse ku kunndi yitegereza urupapuro umugore afite.

Abagore batatu bakuze umwe hagati muri bo yambaye umuhondo mu mpande ye umweru, bafite imisatsi bose irimo imvi, bari guseka bitegereza mu ntoki zabo itumanaho bafite bamwenyura, bishimye bose bahuje imitwe.

Umugabo munini ukuze, yambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa, yicaye ku ntebe iteye mu busitani, inyuma ye hari inzu nini, umukobwa uri kumufugira ibipesi afite imisatsi iboshye miremire.

Abagore babiri bishimye bari kumwenyura batambuka mu umuhanda, umwe ukuboko kureba inyuma ukundikureba imbere ateze agatambaro k' umutuku mu mutwe, yambaye imyenda isa hose undi bari kumwe yambaye iy'ubururu ku kuboko hariho umweru.

Umugore ukuze munini yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'ubururu, imisatsi miremire, arambuye akaguru kamwe akanda agahinnye, amaboko ye yose ayarambuye ku kaguru ke afashe kukweto, inyuma ye hari igiti kihateye cy'ururabo.

Umugore wicaye yunamye arambuye amaboko ye n'amaguru ayitegereza, afite imisatsi izinze ku mutwe, yambaye umupira w'imbeho, inyuma ye hari ubusitani buhateye bumuzengurutse, hirya hari ibiti birebire bikuze.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bari mu nyubako y'ihema abagabo n'abagore, imbere yabo hari abasaza babiri bambaye imikenyero itandukanya amabara uw'umweru n'uw'umukara, bambaye ingofero mu mutwe zidasa, uwambaye amataratara mu maso ye.

Abantu bari ahantu hamwe bicaye abagabo n'abagore. Harimo umwe w'umuganga wambaye indebakure mu mu maso ye cyangwa mataratara, umusatsi w'umukara usokoje imyenda isa y'impuzankano. Inyuma ye hari abandi bicaye barambitse amaboko kumeza.

Abantu babiri bari mu muhanda bari kugenda, umwe agendera ku mbago azifatishije amaboko yombi, undi na we amufasheho afite n'igikapu mu ntoki n'ikindi ahetse mu mugongo, ari kumwenyura afite imisatsi miremire, yambaye ishati y'ubururu bwerurutse.

Abantu babiri bicaye, umugabo n'umugore, umwe muri bo yambaye amataratara uw'umudamu, umugabo afite icupa mu ntoki, bose baryitegereza, imbere yabo hari ameza maremare ariho impapuro, n'ibikombe birimo umuti, na mudasobwa.

Umugabo ukuze yambaye amataratara n'ishati y'umweru, imisatsi ye yarahindutse uruyenzi afite agakoresho mu ntoki agapfumbase undi mukobwa umuri imbere yambaye imyenda isa umutuku hasi no hejuru, afite imisatsi miremire ari kumwitegereza amufasheho.

Inzu nini irimo ibikoresho byinshi, intebe, umugabo n'umugore bicaye, umwe yambaye amataratara mu maso, bafite urupapuro bose barufasheho, imbere yabo hari ameza manini ariho impapuro nyinshi n'urundi bafite bari kurwitegereza.

Abantu babiri bicaye bishimye bari guseka, umwe areba undi, undi ari kureba ibyo ari gukata, afite icyuma mu ntoki, arimo arakata imboga, yambaye amadarubindi mu maso ye, imbere ye uhari yifashe ku itama n'isorori iteretse ku meza y'umweru.

Umugabo wicaye yambaye ndeba kure mu maso ye arambuye ukuboko akwitegereza, imbere hari umuganga nawe wicaye yambaye impuzankano y'ubururu afite igipima umuvuduko mu ntoki ze ari kugifungira kuri uwo mugabo.

Umugabo ukuze yambaye amataratara mu maso ari guseka cyane, yatunze urutoki ku mashusho ari kwereka umuhungu bari kumwe ufite umusatsi muke, yambaye ishati irimo utuzu tw'umukara n'umweru, ameza manini ateretseho ibikombe.

Abantu babiri umukecuru n'umusaza wambaye amataratara, ahuje intoki ziwe, umukecuru azirambuye ku meza maremare ahari, arambitseho igikombe n'amataratara n'agacupa gapfundikiye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bari mu nama, imbere yabo hari ameza manini maremare ateretseho mudasobwa n'amacupa y'amazi apfundikiye, umugabo wambaye amataratara azamuye ukuboko ari kubabwira.

Umuntu wicaye yambaye umwenda w'ubururu n'agapfukamunwa, afite umusatsi muke yazamuye akaboko k'umwenda, bari kumutera agashinge, muganga uri kubimukorera yambaye ishati y'umweru n'ingofero n'amataratara mu maso.

Abantu babiri bakuru b' abagabo bahagaze bafatanye ibiganza mu ntoki, buri muntu kiganza cye gifite urupapuru nundi gifite urundi. Bambaye amakote asa y' ubururu mo imbere amashati y' umweru. Umwe muri bo yambaye amadarubindi mu maso.

Inzu yubatse neza igeretse y'igorofa, ifite amadirishya menshi akinze, abantu bari hirya bagaragara mu birarahuri bambaye impuzankano y'abaganga n'undi utayambaye n'abandi bari imbere y'urugi bahagaze umugabo n'umugore.

Inyubako y'ubuganga irimo ibikoresho bitandukanye, mo imbere iseze irange ry'umweru, ibirahuri bikinze, abaganga bahicaye bambaye impuzankano y'umweru, imbere yaho hategeretse icupa ririmo amavuta n'ibindi bikoresho by'ubuganga.

Igikuta kirekire cyubakishije amatafari ahiye, hirya yacyo hari ikindi kihazengurutse, ibiti birebire bihahagaze, icyapa cy'umweru gishushanyijeho amagambo mu nyuguti z'umukara, hariho n'ibindi birangantego icy'u Rwanda kirimo isaka, hepfo yaho hari ibyatsi bihari, amabuye ahateriretse.

Inzu nini nziza yubakishije amatafari ahiye, isakajwe ibati ry'ubururu, imbere yayo hari igiti kirekire cyakuze gifite amababi menshi, ubusitani buhateye, hepfo yaho hari indi nzu na yo yubakishije amatafari ahiye, isakajwe ibati ry'umutuku, hari igipangu cy'ubururu.

Ibitaro bikuru bya Nyarugenge byubatse neza, by'igorofa bigeretse, mu mpande zayo hateye ubusitani, n'igiti kiri ukwacyo kirekire cyakuze, mu mpande zacyo, hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Ameza ateretse mu nzu y'abaganga arambitseho igitambaro cy'ubururu, ibindi bikoresho birimo bicometsemo udunsinga, hirya y'aho hari amarido y'umuhondo n'ibyuma biri hasi biharambitse.

Inzu y'ubuvuzi igeretse isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari ibiti bihateye, abantu benshi bahagaze mu rubaraza rwaho umugore uhetse umwana, hirya yaho hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo n'ingofero.

Inzu y'ubuganga harimo umuntu w'umugabo uryamye agaramye. Yambaye agapfukamunwa, umupira w'umukara, ikabutura y'umweru. Arambuye ukuboko kuri ku musego w'umweru. Hepfo hasi hari akabido kahatetse gapfundikije umupfundikizo w'umutuku n'akandi k'umweru.

Inyubako y'ubuvuzi irimo abantu benshi isize irangi ry'umweru, umugabo wicaye yambaye agapira k'ubururu ipantaro y'umuhondo inkweto z'umukara n'ingofero, hirya hari abakobwa babiri umugabo ubagaze imbere, ururabo ruteretse ku meza.

Inzu y'ubuganga yubatse neza, mo imbere isize irangi ry'umweru, hasi aho itangirira hasize umukara, inzugi zirebana nini z'umutuku, hejuru hari ibirahuri.

Inzu y'ubuganga irimo ibikoresho bitandukanye, umukobwa uhicaye yambaye umwenda w'impuzankano y'abaganga, agapfukamunwa, amataratara mu maso, imisatsi miremire igwa mu mugongo w'umukara, imbere hateretse mudasobwa, ari kuyirebamo.

Inzu y'ubuganga irimo ibikoresho byinshi, abantu bahicaye n'abahagaze b'abavuzi bambaye impuzankano, umuntu uryamye ku gitanda bamworosha igitambaro cy'icyatsi mu mutwe n'ikindi cy'ubururu yambaye.

Abantu babiri bicaye mu biro b'abagabo, harimo umwe munini wambaye ishati irimo uturongo, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza asize umweru hejuru, n'undi urambitseho amaboko ye, afite ikaramu mu ntoki, yambaye amadarubindi mu maso.

Umuhanda munini ukoze neza nyabagendwa, impande yawo ukikijwe n'amazu menshi, n'inzu y'ubuganga yubakishije amatafari ahiye, isakajwe ibati ry'ubururu, imbere yaho hari ikigega cyubakiye cy'umukara n'abantu babiri bari kuza bayiturukaho.

Iibitaro binini bya Kabgayi, byubatse amazu adafatanya cyane, byubakishije amatafari ahiye, bisakajwe ibati ry'umweru, umuntu uhahagaze, ibiti birebire byakuze, n'undi muntu ku igare.

Inzu y'ubuganga nini igeretseho hy'igorofa, imbere yayo hari imodoka ihahagaze n'abantu, hirya hari ubusitani buhateye burimo igiti n'indi nzu ntoya ishamikiyeho, yicarwamo n'abantu yo irangaye.

Umwana uteruwe na mama we ari kumwitegereza, amufubitse mu bintu by'umweru, yambaye imyenda y'umweru, mama we asutse ibisuko biryamye, imbere yabo hari umuganga uri gufata umwana, yambaye impuzankano yabo n'akantu k'ubururu mu mutwe, n'indebakure mu maso n'agapfukamuwa.

Inzu y'ubwubatsi irimo ibikoresho byinshi, ibihagaze, ibiteretse, ibitanda bikoze mu byuma bishasheho amashuka y'umweru, imisego ifite ubutambaro bw'umweru buyishasheho.

Inyubako y'ubuganga irimo ibikoresho bitandukanye, umwana wicaye ku buriri yambaye ubusa hejuru, hasi yambaye ipantaro y'umukara, umuganga ari kumureba amwitegereza mu maso ye, umwana ari guseka.

Inzu y'ubuganga yubatse neza nini, amadirishya menshi y'umweru arakinze, isakajwe ibati ry'ubururu, imbere yaho hari ubusitani buhateye bukoze neza, ibyapa biriho bishushanyijeho ijisho, hariho n'amagambo yanditse mu nyuguti nini.

Inzu y'ababyeyi babyariramo, isize ibara ry'umuhondo n'umweru ifite amadirishya akinze, imbere yaho hari ubusitani buhateye abaganga benshi bahagaze bambaye impuzankano zisa n'udupfukamunwa dusa.

Inzu nini yubatse neza isakajwe ibati ry'umutuku isize irangi ry'umweru hepfo ari umukara, umuntu uhagaze ku rubaraza, hepfo hasi hari ubusitani buhateye, umuntu uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru, ishyamba rya kimeza ryakuze.

Inyubako y'ubuganga yicayemo abantu benshi n'abahagaze, intebe z'umukara zikoze mu byuma, umuganga wambaye impuzankano, ahagaze ari kuvura umukecuru wicaye mu kagare, amureba amwitegereza bose bambaye udupfukamunwa.

Intebe nyinshi ziteretse mu nzu zikoze mu byuma, ziganjemo ibara ry'ubururu mu mpande zayo utudobo tuhateretse dupfundikiye tw'umuhondo, hepfo hari indi ntebe ikoze mu biti irimo imisego.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye akaguru kiwe agahinnye, agafatishije amaboko ye abiri yasobekeranyije ibiganza, yambaye imyenda isa isengeri n'agakabutura gasa n'inkweto, imisatsi ye miremire igwa mu mugo...

Umukobwa uri ahantu wenyine yambaye isengeri, afite imisatsi miremire iziritse igwa mu mugongo, icupa yafashe aricutse mu kanwa ke, ririmo amazi izuba ri kurasa ku kiganza kiwe.

Umuntu w'umugabo uhagaze yifashe mu mayunguyungu, yambaye agapira k'umukara amataratara mu maso, afite icupa mu ntoki ze ririmo amazi arasamye ari kuyamena mu kanwa, akaza ari menshi cyane y'urubogobogo.

Umusore uryamye ku gatanda, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambuye amaguru ye, yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, imisatsi ye iboshye ku mutwe, amaboko yayacuritse ayarebesha hasi na we yitegereza imbere ye.

Inyubako y'ubuganga irimo abantu benshi abicaye n'uhagaze, abafite udupapuro mu ntoki, ak'ubururu n'utw'umweru, abari kwandika imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru uhagaze n'ibikoresho bakoresha.

Umuganga wambaye impuzankano yabo y'umweru, arambuye ibiganza bye ari gukanda ivi ry'umuntu yazamuye arishinze arambitseho igikumwe n'intoki ze yazirambuye amwitegereza ku ivi.

Umukobwa wambaye isengeri ufite imisatsi miremire cyane ireba inyuma afite icupa mu ntoki ze ashyize kumunwa ririmo amazi ari kunywa n'ikintu gihambiriye kukuboko kwe cy'umukara arahumirije ashyize ku munwa usa n'uyubumbye.

Umuntu wicaye w'umugabo ari gukanda itako ryiwe arifatishije ibiganza bye bibiri, yambaye isengeri y'umukara ikabutura y'umukara ari kureba yitegereza itako imitsi ye yareze cyane.

Umukobwa wicaye asubekeranyije amaguru yambaye agapantaro n'agacengeri k'umukara, arambuye ukuboko kumwe ukundi agufatishije ku rutugu areba imbere, imisatsi ye isutse ireba inyuma imbere ye hari mudasobwa yateretse n'utundi dukoresho.

Umukobwa wicaye ari mu myitozo ngororamubiri azamuye amaboko asobekeranyije amaguru, yambaye isengeri y'umukara, agapantaro, inyuma ye hari intebe z'umweru, imbere ye hari mudasobwa ihateretse n'icupa ripfundikiye.

Inzu y'ubuganga irimo ibikoresho n'igitanda kicayeho umuntu w'umugabo wambaye ikoboyi n'agapira, afashe ku kaguru ke, muganga amuri imbere yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'isaha ku kuboko, ari kuvura uwo muntu ku kaguru amuzirikaho igitambaro.

Amakarito arundanyije ari ahantu hamwe harimo imiti itandukanye imbere yayo hari umuneke, hirya hari ururabo rurabije indabo z'umuhondo, n'inanasi ifite ibibabi byayo bitoshye.

Ubuvuzi gakondo bw'imiti itandukanye, igikakarubamba n'indi iri mu kabido k'umweru n'icupa ry'umuhondo ripfundikiye, riho amagambo yanditse mu nyuguti nini z'umutuku n'icyapa kiriho.

Ubuvuzi gakondo, umukeka urambuye ubohesheje ingoyi z'umweru, umuntu uri gusekura mu ibumba imiti y'icyatsi n'agasekuro gatoya n'agahini kagufi, imiti myinshi iri kudusahani y'amoko atandukanye.

Umugore wicaye afite inkono iciye ikoze mu ibumba, yayirambitseho amaboko izuba riri kumurarasaho harimo imiti y'ibyatsi itandukanye idasekuye n'indi ijanjaguye, imbere ye hari utundi dukono dukoze mu ibumba dutoya.